Muganga yegereye abaturage, aho ari kumwe n'abo arimo ababasuzuma indwara zitandukanye, ziganjemo izitandura nk'umuvuduko w'amaraso, isukari, umutima ndetse n'izindi, kugira ngo harebwe niba hari abaribo bazirwaye, ubundi bahabwe ubufasha bw'ubuvuzi.

Ababyeyi bambaye impuzankano y'umweru hejuru, bari kumwe n'abana babo, bari guhabwa amata, n'abagiraneza bambaye impuzankano z'imihondo, bityo abana babo bazakura neza.

Umuryango mpuzamahanga utegamiye kuri leta, witwa wadivijeni, ku bufatanye na leta y'u Rwanda batse ivomo, aho umwana ari gukaraba intoki yishimye, ndetse aya mazi afasha abaturage bavurira iri ivomero mu mirimo yabo ya buri munsi, haba iyo mu rugo, ndetse n'indi.

Ni ababyeyi bahuriye mu cyumba cy'inama,, bicaye bakoze uruziga bari guhabwa amahugurwa ndetse n'inama na muganga ubahagaze hagati, arimo ababwira kuri gahunda z'ubuzima zirimo nko gukingiza abana ku gihe. kwitabira gusuzumisha inda ku bagore batwite, gutanga ubwishingizi bwo kwivuza mitiwere. ndetse n'izindi gahunda za leta zijyanye n'ubuzima.

Ikigo Mpuzamahanga Gishinzwe Kwita ku Buzima bw'Abana cyitwa Unicef cyahurije hamwe abana batandukanye, kibahereza impuzankano yanditseho icyo kigo, aho bahabwa ubufasha butandukanye bujyanye mu kubavuza ndetse no ku ishuri.

Abayobozi b'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku bana, bateraniye hamwe aho bari kwiga kuri gahunda yo kwita ku mwana umwe kuri umwe, kumuzamura mu myigire ndetse no mu mibereho ye kuko abana aribo cyizere cy'ejo hazaza.

Abaturage bo mu gice cy'icyaro bihurije hamwe, bafite ibyapa aho bari mu bukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana ndetse n'abagore mu muryango nyarwanda.

Ikigo Mpuzamahanga gishinzwe kwita ku buzima ku isi, gitanga ubufasha bw'imiti ndetse n'ibindi bikoresho byo kwa muganga ku bitaro, ndetse n'ibigo by'ubuzima byo hirya no hino ku isi, by'umwihariko mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, binyuze mu bakozi babyo bari hirya no hino ku isi.

Abana babiri bafite indobo, bagiye ku iriba kuvoma amazi meza yo gukora isuku mu rugo, gutekeshwa, kumesa, ndetse n'indi mirimo yo mu rugo ikenera amazi.

Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda; Sabin Nsanzimana yatangaje ku mugaragaro ko hagiye gushyira imbaraga mu kurwanya kanseri y'inkondo y'umura kugira ngo agabanye ibyago by'abantu magana atandatu bapfa buri mwaka bishwe nayo.

Mu Rwanda habereye ibiganiro byagutse, uburyo bwo gutera inkunga ndetse no gushora mu bikorwa by'ubuvuzi byo kwita ku ndwara zitandukanye ndetse no guteza ubuvuzi igihugu muri rusange kugira ngo bugire ireme kandi buri munyarwanda wese agerweho na serivisi z'ubuvuzi ku ndwara nyinshi zitandukanye.

Ibiganiro byabaye hagati y'umwaka bibiri na makumyabiri na gatatu na bibiri na makumyabiri na kane byemeje ko inkingo zitandukanye harimo n'urwa kanseri y'ikondo y'umura, bigomba gukorerwa mu Rwanda, Canada, ndetse no muri Ghana, bityo bigasakazwa by'umwihariko baturage bo muri Afurika kugira ngo hakomeze harwanwe iyo kanseri ihitana umubare mwinshi w'abantu muri Afurika.

Umwana ari ku ivomo, ari kunywa amazi akoresheje ibiganza bye, iruhande rwe hateretse intebe ndetse iryo vomo ryubatswe ku bufatanye n'umuryango Mpuzamahanga ushinzwe kubungabunga ndetse no kwita ku bana.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umubyeyi utwite ndetse n'abaforomokazi babiri, bari gusuzuma inda ye uko imeze, barebera hamwe nimba umwana uri mu nda nta kibazo afite ndetse nimba azabyara neza.

Abayobozi mu by'ubuzima mu nzego zitandukanye baturutse mu bihugu bitandukanye ku isi, bateraniye i Kigali, baganira na minisitiri w'intebe uko bateza imbere ubuvuzi by'umwihariko ubw'indwara zitandura.

Umwana yazanye igikombe kuri robine, yishimiye kuba arimo avoma amazi meza yegerejwe, bityo azabafasha mu kurwanya indwara zikomoka ku mazi mabi ndetse n'umwanda.

Umujyanama w'ubuzima ari guhugura umugabo n'umugore ku bijyanye no kuboneza urubyaro ndetse no kwirinda kubyara inda zitateguwe, mu gihe cyose babishaka bagomba kwirinda ndetse bakabyara babiteguye kugira ngo umwana wabo azavuke ameze neza ndetse abashe kwitabwaho uko bikwiye.

Inyubako nyinshi ziri hamwe gusa zitandukanye mu myubakire yazo, zimwe ni amagorofa izindi ntabwo ari amagorofa, imwe yubatse mu buryo butangaje aho izengurutse ndetse igiye ifite amazi mo hagati yayo, bigaragara ko ari inyubako ikurura ba mukerarugendo ndetse ari ahantu heza ho gutemberera.

Abaganga bari kurebera mu byuma by'ikoranabuhanga ubuzima bw'umurwayi barimo kwitaho aho bugeze, barebe niba hari icyo bakongera kubyo barimo bamukorera kugira ngo abashe gukira vuba kandi neza.

Abana babiri bari ku ivomero, bari gukina n'amazi gusa abaganga ndetse n'inzego z'ubuzima, zidushishikariza kunywa amazi meza, by'umwihariko atetse cyangwa se yasukuwe mu bundi buryo kugira ngo twirinde indwara zakomoka ku mazi yanduye.

Leta y'u Rwanda ndetse n'umuryango Mpuzamahanga ushinzwe kwita ku bana, bashyize hanze umushinga wo kwita ku bana baharanira uburenganzira bwabo, ndetse n'ubuzima bwabo muri rusange, haba mu Rwanda ndetse no ku Isi hose.

Abakozi mu nzego zitandukanye, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bahuriye hamwe bakora inama ku bukangurambaga bwo gukumira no kurwanya ugutwita ku bangavu, bataragira imyaka y'ubukure.

Abaganga batatu, bicaye mu cyumba kimwe, aho barimo babarura, abarwayi batanze ubwishingizi bwo kwivuza, ndetse barebera hamwe imibare y'abarwayi bitabira, ibitaro byabo.

Inama mpuzamahanga ihuza abakuru b'ibihugu by'abantu bakoresha ururimi rw'icyongereza, yabereye i kigali ihuza abakuru b'ibihugu batandukanye, ndetse barebera hamwe uburyo ki bakwihutisha iterambere n'imikoranire hagati yabo.

Umwana w'umuhungu yishimiye gukaraba intoki n'amazi meza arimo ava mu ndobo imuteretse imbere, mu rwego rwo kunoza isuku n'isukura, by'umwihariko kwita mu gukaraba intoki mu bihe byose kuko, ari isoko y'ubuzima bwiza.

Abana bishimiye amazi meza babonye aho bari kuyanywa bishimye, bigaragaza ko amazi ari ubuzima bwiza ku bantu kuko yifashishwa mu bikorwa bitandukanye by'ubuzima bwa buri munsi umuntu anyuramo, bityo rero amazi akwiye kugezwa ku bantu bose kugira ngo abafashe mu mibereho yabo ya buri munsi.

Umujyanama w'ubuzima arimo kugira inama abantu batandukanye bahuriye mu cyumba cyo kwa muganga ku buryo bwo kwirinda indwara zandura n'izitandura.

Umwana yagiye ku iriba kuvoma amazi, arimo araterura indobo irimo amazi ngo ayikorere, imbere ye hahagaze umugabo ufite ingata, ugiye kuyimushyirira ku mutwe kugira ngo abashe gutwara amazi neza, adacubangana cyangwa ngo amubangamire.

Abanyeshuri batandatu bari ku mavomo atatu bari kuvoma mazi bayavomera mu ndobo ndetse n'akajerekani, bityo bishimiye amazi meza abegerejwe kuko amazi ari isoko y'ubuzima bwiza ndetse n'isuku.

Umubyeyi yishimiye ko ari kuvoma amazi yamwegerejwe hafi mu rugo, bityo byamufashije kumesa imyenda arayanika ndetse anayifashisha mu gukora indi suku y'ibikoresho byo mu rugo.

Impuzamahanga yateranije abantu benshi batandukanye, iyobowe n'abagabo batanu n'umugore umwe, aho barimo baganira ku buryo bwo guteza imbere ubuvuzi ku isi hose, ndetse no kwegereza imiti abantu badafite ubushobozi bwo kuyibona, no kwagura ikoranabuhanga mu buvuzi.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, baricaye mu ishuri, abahungu n'abakobwa bari gufungura, nyuma y'aho Leta ishyizeho gahunda yo gutanga amafunguro ku banyeshuri bose biga kugira ngo imibereho yabo ndetse n'imyigire yabo ikomeze igende neza.

Umubyeyi ateruye agahinja ke, ariko yambaye agapfukamunwa yirinda ko yamwanduza indwara zo mu buhumekero, akiri mutoya, bityo ababyeyi bose baba bakangurirwa kwirinda kwanduza abana babo mu gihe barwaye indwara zo mu buhumekero, kugira ngo abana babo bagire ubuzima bwiza kandi bakure neza.

Abaganga bari gutanga inkingo ku bantu batandukanye kugira ngo babafashe ko bazarwara indwara zitandukanye, mu gihe baba batakingiwe ndetse ngo bitabweho.

Abantu biganjemo ab'igitsina gore, bakora imirimo y'ubuvuzi ndetse no kwita ku barwayi, bahuriye hamwe bambaye impuzankano, bahurira ahantu hari ibiti, baganira ku byo guteza imbere ubuvuzi ndetse no kwita ku barwayi.

Umubyeyi ukikiye umwana we bari mu cyumba cyo kwa muganga ari kumwe na muganga, ari kumuha imiti imukingira indwara zitandukanye ndetse arushaho kugira ubuzima buzira umuze n'imikurire myiza.

Abantu b'ingeri zose, abakecuru, abasaza, abana ndetse n'urubyiruko bicaye hamwe, bategereje guhabwa serivisi z'ubuvuzi mu kigo cy'ubuvuzi bagiyeho.

Abaturage benshi bateraniye hamwe ku kagari, aho bagiye kwisuzumisha indwara zitandura ndetse no guhabwa ubufasha mu kwirinda izo ndwara, bakora siporo ndetse birinda kurya ibintu byanduye.

Umwana avuye ku ishuri, yambaye impuzankano, ndetse afite ibase imbere ye, aho arimo akaraba intoki kugira ngo akomeze abungabunge isuku y'intoki ze, bityo bizamurinde kurwara indwara zandurira, kubera isuku nke, kutita gukaraba, ndetse no gukoresha ibikoresho bidafite isuku ihagije.

Abanyeshuri bafite ibikombe bari kunywa amazi ndetse bishimiye ko begerejwe amazi meza banywa, mu gihe mbere batabonaga amazi meza yo kunywa bityo bikaba byabaviramo kurwara indwara zituruka mu kunywa amazi mabi, ariko ubu bafite umutekano ndetse nta nyota ibica.

Umwana agiye kuvoma amazi ku iriba atwaye indobo ariyo avomeramo, hanyuma ari kunywa amazi yifashishije ibiganza bye mu rwego rwo kurwanya inyota.

Inama ya Afurika yunze ubumwe yateranye aho iyobowe n'abantu batatu, barimo bariga ku ngingo zitandukanye zijyanye no guteza Umugabane w'Afurika imbere binyuze mu mirimo itandukanye y'ubukungu.

Inama yateranije abakozi bakorana; igizwe n'abagore babiri ndetse n'abagabo. Aho barimo biga ku buryo bakongera imikorere yabo barushaho gutanga serivisi inoze ku bantu babagana. Bityo bari kwifashisha igikoresho cy'ikoranabuhanga kigaragaza amashusho, ndetse n'ibikombe bariho banyweramo ikawa baganira.

Umwana w'umukobwa agiye kuvoma amazi ku iriba, aho yitwaje ijerekani eshatu ndetse ari kwishimira ko abonye amazi hafi, kuko amazi ni isoko y'ubuzima ndetse n'imibereho myiza ku muntu.

Amahugurwa yabereye muri sale, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, aho bahuguwe ku bubi ndetse n'ingaruka zo guterwa inda zitateguwe bityo bahabwa umurongo w'uburyo bwo kuzirinda no kuzirinda abana b'abangavu.

Mu gihugu hose cy'u Rwanda, hari abajyanama b'ubuzima, batanga ubuvuzi bw'ibanze ku baturage babegereye, cyane cyane abagore batwite babafasha kubakurikirana, hagatanga imiti ku barwaye malariya, ndetse bakurikirana n'imikurire y'abana batoya.

Umuganga w'umugore ari gutera urushinge umugabo, amukingira indwara zitandukanye kugira ngo arusheho kugira ubuzima buzira umuze bityo akomeze arambe kandi akore imirimo ye imuteza imbere.

Umugabo ahagaze imbere y'umugore, aho umugore yicaye ndetse arimo yandika bimwe mu bintu arimo amubaza, icyo cyumba kirimo n'ibindi bikoresho bitandukanye, harimo iby'ikoranabuhanga, intebe, ameza ndetse n'ibindi.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima mu Rwanda RBC cyateguye umunsi Mpuzamahanga wo kurwanya Kanseri y'inkondo y'umura aho abantu bahuriye hamwe bagafata icyapa cyerekana ko bagomba kurwanya Kanseri y'inkondo y'umura ku bakobwa.

Umwana yagiye ku ivomero kuvoma amazi, yavomeye mu ndobo arayipfundikira ayitereka kuruhande, hanyuma ari gukaraba intoki n'amazi yo mu ivomero, kugira ngo arusheho kubungabunga isuku y'intoki ze, yirinda indwara ziterwa no kudakaraba intoki.

Kwa muganga mu cyumba cy'isuzumiro, harimo abaganga babiri ndetse n'umurwayi umwe, aho barimo bamusuzuma umuvuduko w'amaraso ye, bari kugira ngo barebe nimba atawurwaye ndetse bamugire n'inama bamuhe n'imiti z'uburyo yawurwanya ndetse akawirinda.

Mu cyumba cy'ivuriro, harimo umubyeyi na muganga, aho umwana arimo asuzumwa indwara zitandukanye, by'umwihariko umuriro, ndetse n'indwara zo mu kanwa.

Umugore wambaye agapfukamunwa ari kumwe n'abaganga, bari kumukingira urukingo rwa Korona virusi kugira ngo bimufashe kwirinda kujya mu bibazo byo kuba yamuhitana cyangwa se akayandura.

Ku itariki makumyabiri ukwakira bibiri na makumyabiri na kane, Kigali hateraniye inama ihuje abantu baturutse mu ibihugu bitandukanye by'isi. Igamije kurebera hamwe uko bahagarika icyorezo cya virusi ya malibage.

Abaganga bahuriye hamwe n'ababyeyi baricaye bari kubagira inama zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi, kuboneza urubyaro, kurwanya igwingire by'abana ndetse banabagira inama ku bibazo babagiye batandukanye bafite by'ubuzima.

Umuntu bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe yicaye mu mufrege w'amazi, afite imyenda yashaje ndetse n'ibindi bintu by'imyanda bitandukanye, akeneye uwamufasha na we akabona ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe wenda yakira.

Umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe yicaye ku muhanda, yambaye imyenda yamucikiyeho afite amashashi ndetse n'amacupa, arimo ibintu bitandukanye bityo akeneye kwitabwaho n'abantu bazobereye mu kwita ku ndwara zo mu mutwe kugira ngo avuzwe, akire yongere abe muzima.

Abayobozi mu nzego zitandukanye muri Afurika ndetse na polisi y'u Rwanda, bahuriye ku cyicaro gikuru cyo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ihoterwa rikorerwa abana, aho baganiriye ku buryo ndetse n'ingamba zashyirwaho kugira ngo ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse no kubangamira uburenganzira bw'abana, bicike burundu muri Afurika.

Amahugurwa yahurije hamwe abantu b'ingeri zitandukanye, ari kubera muri salle yagutse, aho umugore uyayoboye arimo ahugura abantu bayitabiriye yifashishije icyuma cy'ikoranabuhanga, cyerekana amashusho ku buryo bugari ku gikuta.

Umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku bantu UN ifatanije na leta y'u Rwanda muri gahunda ya turiku mu kwita ku baturage b'u Rwanda muri gahunda zitandukanye z'ubuzima.

Umujyanama mu by'ubuvuzi ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe, ari kugira inama ababyeyi babiri bakikiye abana b'impinja uko bagomba kubitaho mu kubarera, babaha indyo yuzuye, babonkereza ku gihe ndetse babakingiriza n'inkingo zabugenewe kugira ngo abana babo bazakure neza.

Umugabo urimo guseka afite amenyo meza kuko yayitayeho, ayakorera isuku yifashishije imiti itandukanye, ikoreshwa mu kurwanya indwara zo mu kanwa by'umwihariko izangiza amenyo.

Abantu batandukanye biganjemo abana batoya bishwe n'inzara ndetse n'ubukene, abandi barimo bararira bari gusaba ubufasha by'umwihariko ibyo kurya. Bityo rero imiryango mpuzamahanga, ndetse na Leta bikwiye gushyiramo imbaraga mu kwita ku bantu badafite ibyo kurya, ibyo kwambara, ndetse n'aho kuba n'ibintu by'ibanze umuntu akenera mu buzima kugira ngo abeho.

Umucuruzi w'umugore yishimiye iterambere agenda agira nk'umugore, imicuruze ye n'ahacuruza ibintu bitandukanye bijyanye n'ibiribwa, ndetse anishimira ko umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, mu gihe cy'icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyatangiye ubukangurambaga bwo kurwanya indwara zo mu mutwe ku bana ndetse n'ingimbi kubera ko bari bamwe mu bantu bari bibasiwe nazo muri kiriya gihe.

Abantu babiri umwe biragaragara ko afite agahinda gakabije undi ari kugerageza kumuba hafi no kumuhumuriza, nibyo bikenewe muri iyi minsi usanga abantu bafite ikibazo cy'agahinda gakabije, ndetse n'ibibazo byinshi cyane, baba bakeneye abantu bababa hafi babahumuriza by'umwihariko abantu babifitemo uburambe ndetse babyigiye ni ngombwa ko baba hafi aba bantu bafite.

Umujyanama mu by'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe yagiye mu cyaro aho yahuye n'ababyeyi babiri ari ukufasha mu gukira ibikomere ndetse no kubasubiza ku murongo kugira ngo bakire burundu ndetse bakomeze bagire ubuzima buzira umuze.

Inama yateranije abantu b'ingeri zose by'umwihariko abo urubyiruko, bicaye barimo bakurikirana amasomo, arimo atangirwamo yiganjemo ayo ubuzima, bambaye impuzankano y'umukara hejuru bamwe muri bo ndetse abandi bambaye indi myenda isanzwe.

Umubyeyi ari kumwe n'umwana we aramuteruye barimo guseka bombi barishimye kuko bakurikije inama za muganga zo kwirinda imirire mibi ndetse n'indwara zandurira mu mwanda bityo bafite ubuzima buzira umuze.

Ikigo cy'Igihugu Gishinzwe Kwita ku Buzima cyashyize hanze inyandiko igaragaza ubushakashatsi cyakoze, ku buryo Abanyarwanda bagerwaho na serivise zo kubavura indwara ndetse no kwita ku buzima bwo mu mutwe, aho abenshi bataragerwaho n'iyo serivise.

Umwana w'urubyiruko umwe aricaye wenyine yubitse umutwe mu biganza bye, ari kwibaza byinshi byerekeye n'ubuzima bwe, bityo akeneye ubufasha ku bajyanama muby'imitekerereze ndetse n'indwara zo mu mutwe.

Umugabo w'umushyitsi wagendereye u Rwanda, yitabiriye umuhango wo gushyira indabo ku mva, ku rwibutso rwa Jenocide yakorewe abatutsi, mu gihumbi kimwe magana cyenda, mirongo icyenda na kane ndetse aranawunamira.

Ku itariki cumi n'umunani, ukwakira, bibiri na makumyabiri na gatatu, habaye ubukangurambaga ku ndwara zo mu mutwe, aho bashishikariza abantu kwitwararika ndetse no kubungabunga ubwonko bwabo, kuko indwara zo mu mutwe zirimo zangiza abantu benshi cyane ku isi.

Umugabo ni munini yambaye ishati idoze neza, mu gitambaro gifite ibara ry'ubururu bwijimye, arahagaze ndetse inyuma ye hagaze abandi bantu benshi cyane, bahuriye ahantu hamwe.

Umugore yicaye wenyine ku ntebe, aho arimo yitekerezaho cyane ibitekerezo byamurenze, rero akeneye umuntu umuba hafi, umuganiriza cyane cyane wabihuguriwe kugira ngo yongere agarure ubuzima bwiza ndetse ubuzima bwe bwo mu mutwe bujye ku murongo.

Umwana ari kurira amarira ari gushoka ku matama ye, afite ikibazo gikomeye cyane cy'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'ubwo mu buzima busanzwe. Bityo rero agomba kwitabwaho n'umuryango ndetse n'abaganga agahabwa ubuvuzi ndetse, akumvwa kugira ngo yirinde kugira agahinda gakabije.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo n'abagore, bahuriye hamwe mu cyumba cy'inama cyagutse, aho barimo bagirwa inama kuburyo bwo kwirinda indwara zo mu mutwe, harimo nk'agahinda gakabije, kwigunga, ndetse n'izindi.

Umukobwa yicaye mu rubaraza rw'inzu, ari guseka cyane, arishimye, bigaragaza ko ameze neza muri we, mu mutwe ndetse n'ahandi hose ku mubiri.

Ikirango kiranga ikigo cy'igihugu gishinzwe gushyira mu bikorwa gahunda zijyanye no kuvura ndetse no kwita ku bantu bafite uburwayi bw'umutwe, kigizwe n'amabara y'ubururu ndetse n'ay'igaju.

Abana bari hamwe, bishimiye cyane ndetse batangariye ibyo bari kubona n'ibyo bari kubwirwa, barimo bahugura mu buryo bwo kwitwararika ndetse no kwirinda indwara zitandukanye, hamwe no kwitabira ishuri, kuko ari ejo heza habo hazaza.

Umugabo ari wenyine, yegamye ku rukuta arigunze akeneye abantu bamuba hafi, by'umwihariko abantu bahugukiye mu kuvura indwara zo mu mutwe kugira ngo bamwegere bamube hafi bamuvure kuko indwara zibasira abantu benshi cyane muri iyi minsi.

Umukobwa afite amenyo akeye ndetse ari guseka neza kuko amenyo yayitayeho, akayakorera isuku, akayavuza, bityo bimurinda ko yakwangirika ngo hagire ayavamo cyangwa se arwara uburwayi butuma yangirika, akagira indi sura mbi cyangwa akagira ubumuga bwo mu kanwa.

Umugabo ufite urudodo, aragaragaza uburyo rwakwifashishwa hitabwa ku isuku yo mu menyo ndetse no mu kanwa muri rusange, kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza, witaye ku isuku yo mu kanwa.

Umugabo yagiye kwa muganga kwivuza amenyo kugira ngo arusheho kugira ubuzima buzira umuze, ufite amenyo akomeye ndetse abasha kurya, guseka ndetse n'indi mi mirimo ye akayikora neza nta mpungenge.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe, mudasobwa ndetse n'ibindi by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura amenyo ku buryo bugezweho, abarwayi bahagana.

Inyubako y'igorofa igezweho ivurirwamo amenyo igeretse kabiri, ifite uruzitiro ndetse iri hafi n'umuhanda, aho byorohera abarwayi bayigana kwivuza kuhagera ku gihe.

Ibyuma bitandukanye biri hamwe, bimwe bihese ibindi bisongoye, byifashishwa kwa muganga n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye ndetse no kubaga by'umwihariko mu kuvura amenyo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'intebe, byifashishwa n'abaganga mu gusuzuma abarwayi bafite uburwayi bukomeye kugira ngo babavure bongere bagarure ubuzima bwiza buzira umuze.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'icyatsi kibisi hejuru bari gusuzumwa n'abaganga indwara zo mu kanwa ndetse bareba ko n'amenyo yaboaba ari mazima, aho babahaye n'umuti wo kujya bogesha amenyo yabo buri gihe.

Umugabo ufite amenyo asukuye, bigaragara ko yayitayeho akayakorera isuku, akayoza neza yifashi imiti itandukanye ndetse agakurikiza n'inama za muganga kugira ngo arusheho kugira umubiri mwiza ndetse n'ingingo nziza n'ubuzima bwiza buzira umuze.

Umusore urimo wigisha abandi uko bakora isuku y'amenyo ndetse no mu kanwa, ukoresheje urudodo, ugakuramo mikorobe ndetse n'ibindi bintu byose biba byahagamye hagati y'amenyo, bityo ni ubukangurambaga bukomeje kugezwa ku bantu b'ingeri zose, cyane cyane urubyiruko.

Umugabo ari kwifashisha urudodo, akura imyanda hagati y'amenyo ye, mu rwego rwo kubungabunga isuku y'amenyo ye ndetse no kwirinda ko yakwangirika.

Umugore afite uburoso bw'amenyo, ari koza amenyo mu rwego rwo kubungabunga isuku y'amenyo ndetse no mu kanwa kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze, kuko isuku y'amenyo no mu kanwa ni ingenzi cyane ku buzima bw'umuntu.

Abantu b'ingeri zose bahuriye hamwe, bamwe baricaye abandi barahagaze, barimo barifotoza nyuma y'uko barangije inama yabahuzaga, Leta ndetse baganira ku buvuzi bw'amenyo.

Umugabo afite urudodo, arimo ararwifashisha asukura amenyo ye hagati yayo, kugira ngo yirinde indwara zayatera ziturutse ku mwanda, kuko amenyo ni kimwe mu bice by'umubiri bikunze kwibasirwa n'indwara, cyane cyane iyodakorerwa isuku ihagije.

Umubyeyi ari kumwe n'umwana we, bafite uburoso bwoza amenyo yombi, ari kumwigisha uko boza amenyo ndetse n'uburyo bwo kuyabungabunga, hirindwa kuba barwara indwara zitandukanye zifata mu kanwa.

Umusaza n'umukecuru bicaranye, afite imiti imbere y'abo ndetse n'amazi. Umusaza afite telefone ari kwereka umukecuru ibintu bitandukanye muri yo ndetse anamusobanurira.

Umuganga w'umugore ari guha ubufasha umurwayi w'umugabo ufite imbago arimo agenderaho, amugira inama z'uburyo ki bwo kwitwararika kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza ndetse azabashe no gukira.

Umuryango wishimye, aho umubyeyi w'umugabo n'uwumugore bari kumwe n'abana be batatu, abakobwa babiri ndetse n'umuhungu umwe, bigaragaza ko bafite ubuzima buzira umuze kubera kwita ku buvuzi bwabo.

Umusaza ari kumwe n'umukobwa we barishimye, aho umukobwa we arimo amufasha kugenda amusunika mu kagare, bigaragara ko umusaza abana n'ubumuga bw'ingingo. Bityo rero biba ari ngombwa ko abantu babana n'ubumuga bw'ingingo bafashwa bakababwa hafi, na bo ni abantu nk'abandi.

Abagore babiri barishimye bari mu gikoni, bari gutegura amafunguro yiganjemo imboga n'imbuto kuko bigira intungamubiri ku buzima bw'umuntu zifasha, by'umwihariko mu kurinda indwara ndetse n'ibindi.

Muganga yakiriye umurwayi w'umukecuru, ari kumugira inama z'uburyo bwo gufata imiti y'ibinini ndetse afite n'amazi yo kubinywesha kugira ngo bibashe kugera mu mubiri neza havurwe indwara afite akire.

Ababyeyi biganjemo abageze mu zabukuru bahuriye hamwe, aho barimo bagirwa inama zijyanye n'ubuzima higanjemo ko bakwirinda kurwara indwara zitandura nk'indwara z'umuvuduko w'amaraso, umutima ndetse n'izindi zikunze kwibasira cyane cyane abantu bashaje.

Umubyeyi ukuze, yicaye mu kagare ari kwitabwaho n'umuganga umubaza uko amerewe, ndetse amugira inama zijyanye n'ubuzima, bimuzamurira icyizere cy'imibereho y'ejo hazaza, hamwe no kugira ibyiringiro ko azakira.

Umuganga yicaranye n'umukecuru, arikumusuzuma indwara zitandukanye, kugirango amuhe ubuvuzi bwihuse, bwamufasha gukira.

Umusaza yicaye wenyine yigunze yifashe ku munwa ari gutekereza ibintu byinshi cyane, bisa nk'aho afite agahinda gakabije bityo akeneye abantu bamufasha kumugira inama, by'umwihariko ababihuguriwe nk'abarwayi bashinzwe kuvura indwara zo mu mutwe.

Umurwayi ari gushimira umuganga wamuvuye n'akanyamuneza kenshi kubwo yamufashije akamwitaho, akamuvura uburwayi yari amaze igihe kinini arwaye bityo rero n'abaganga bose bashishikarizwa kwita ku barwayi, bakabavura igihe baje babagana.

Umugabo n'umugore bari mu buriro bicaye, umugabo ari gufungura amafunguro atandukanye yiganjemo imbuto, ndetse umugore nawe ari gusuka mu kirahure umutobe w'amatunda, aho bibafasha mu mirire yabo ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Umusaza n'umukecuru baricaranye. Umusaza arikunywa imiti yandikiwe na muganga. Hanyuma umukecuru na we arikumusomera amubwira amategeko n'amabwiriza agenga iyo miti kugira ngo ayifate neza mu rwego rwubahirije amategeko ya muganga. Bityo izamugirira umumaro mu kumuvura indwara arwaye.

Umugabo ari gukora imyitozo ngororamubiri yifashishije umugozi, aho ari kumwe n'undi muntu urimo umufasha, bityo biramufasha kurambura ndetse no gukomeza amaboko ye, kugira ngo arusheho kuba akomeye kandi afite ubuzima buzira umuze.

Ababyeyi bahuriye hamwe mu gikorwa cyo kurwanya SIDA, aho bamwe muri bo bambaye impuzankano y'imipira y'umweru hejuru ,ndetse n'amajipo y'imikara hasi, bari ku murongo, aho barimo bagenda baririmba ndetse bamagana Virusi itera SIDA.

Umurwayi nyuma yo kuvurwa indwara y'amaguru, yahawe imbago yifashi mu gutambuka kugira ngo arusheho kugenda amenyera gutambuka, amaguru ye akomere bityo azongere agende yemye nyuma yuko avuwe.

Umubyeyi w'umugabo ari kumwe n'umwana we bafite umupira, bari gukina bakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Umuganga ari kugira inama umusaza, amwerekera uburyo bwo kugorora imitsi y'amaboko mu rwego rwo kubungabunga amaboko, amufasha guterura igikoresho cyifashishwa hagororwa imitsi y'amaboko.

Ababyeyi batatu bari hamwe barishimye cyane ndetse bafite ubwuzu bwinshi, uri hagati muri bo afite telefone bari kurebamo bose hamwe bareberamo ibirimo, aho byabatangaje cyane ndetse bafite ubwuzu bwo gukomeza kubireba.

Umusaza n'umukecuru bakenyeye imyitero, bahagurukijwe mu birori babashimira ubwitange ndetse n'imbaraga bashyira mu kwita ku batoya ndetse no gufasha umuryango nyarwanda muri rusange.

Abantu bageze mu zabukuru n'ingenzi cyane kubitaho bagahabwa ubuvuzi bukwiriye kuko bakunze guhura n'ikibazo cyo kurwara indwara nyinshi cyane bityo rero n'ingenzi guhabwa ubuvuzi ku gihe ndetse bakitabwaho mu buryo bwose bushoboka kugira ngo barusheho gukomeza kuramba.

Inama yabaye ku itariki makumyabiri n'eshanu, yahurije hamwe abantu baturutse mu bihugu bitandukanye, yari iyobowe n'abagabo batatu n'abagore babiri yiga ku buryo bwo kwegereza abanyafurika batuye mu byaro, uburyo bwo kubabaga indwara zitandukanye.

Inyandiko yanditse igaragaza uruhare rw'abantu mu kwiga ndetse no kurinda abana virusi itera sida, kugira ngo turusheho kugira urubyiruko rufite ubuzima buzira umuze ndetse n'ejo hazaza habo hazabe heza.

Muri gahunda y'igihugu yashyizweho yo kuzamura ubukungu bw'igihugu ndetse no guteza imbere abaturage, harimo gahunda yiswe hehe n'igwingira. Aho iyo gahunda yashyiriweho abana bafite ikibazo k'igwingira ndetse n'ababyeyi mu kubitaho kurwanya igwingira mu bana bakiri batoya.

Abantu batanga ubutabazi mu by'ubuvuzi hamwe n'abaganga, bari gufasha umurwayi urembye uryamye, kuba bamuha ubuvuzi bw'ibanze, bakamufasha gukira indwara arwaye.

Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, mukwa cumi na kumwe, habaye inama y'isi yose yiga ku buzima, aho bareberaga hamwe uburyo ubuvuzi bwasakazwa mu bantu hose, ku buryo bungana, mu bihugu bikennye n'ibikize.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, mu bihumbi bibiri na makumyabiri nakabiri cyashyizeho andi mabwiriza mashya yo kwirinda ndetse no kurwanya virusi itera SIDA mu banyarwanda.

Mu Gihugu cya Canada, ku itariki zirindwi kugeza ku munani ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu mu kwezi kwa kane, habereye inama mpuzamahanga ku nshuro ya karindwi yo kwita ku buzima bw'abagore by'umwihariko kurwanya kanseri zitandukanye barwara harimo na kanseri y'inkondo y'umura ndetse n'iy'ibere.

Imibare igaragaza, uko ibarura, mu buryo bwo gutanga inkingo, ndetse n'ubundi buvuzi bwagiye zitangwa, hirya no hino ku isi, ku bantu batandukanye, mu myaka ndetse no mu bihe, bigiye bitandukanye.

Inyandiko iriho umusaza upfutse ijisho rimwe, aho bigaragara ko ryagize ikibazo ndetse ririmo ryitabwaho n'abaganga, bityo ni ngombwa ko abantu bitondera ibintu byabangiza amaso yabo kuko, amaso ni ibice by'umubiri by'ingenzi umuntu yifashisha cyane.

Muri bibiri na cumi nicyenda ku itariki makumyabiri n'esheshatu, kugera kuri makumyabiri n'icyenda, ikigo cy'igihugu cy'ubuvuzi ndetse ku bufatanye na iniverisite y'u rwanda, batanze ubuvuzi bw'ubujyanama ku ndwara zo mu mutwe, ku bantu bari bitabiriye icyo gikorwa.

Ikigo Mpuzamahanga gishinzwe kwita ku burenganzira bwa muntu ndetse no kurwanya ihohoterwa, cyashyize hanze amakuru agaragaza uburyo inkingo z'icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda zagiye zitangwa hirya no hino ku Isi ku buryo butandukanye.

Urwego rw'igihugu rushinzwe gushyiraho amabwiriza ajyanye n'ubuzima, bwashyizeho ibwiriza ryo kurandura virusi itera Sida mu bana ndetse no kongera ubumenyi mu kuringaniza urubyaro ndetse no kurwanya indwara zitandura mu baturage.

Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ku itariki makumyabiri n'eshanu z'ukwa karindwi muri afurika y'epfo habereye inama mpuzamahanga yari igamije uburyo bwo kureba uburyo iki uburezi bwagera kuri bantu bose ndetse uburenganzira bwa muntu bugaharanirwa mu byiciro byose by'abantu.

Inyandiko y'ikinyamakuru cyitwa ishusho, igaragaza ifoto ya madamu w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, aho yatangije ubukangurambaga mu kwirinda ndetse no kurwanya indwara zo mu mutwe.

Minisitiri ushinzwe ubuzima mu Rwanda Sabin NSANZIMANA, afite igitabo ndetse ari gusuhuzanya na mugenzi we nyuma y'inama yari yabahuje, baganira ku buryo bwo guteza imbere ubuvuzi.

Inama yahurije hamwe abantu bakora mu nzego zitandukanye, iz'ubuzima ndetse n'iz'umutekano, aho bigiye hamwe uburyo bwo kwagura imikoranire ndetse no guteza imbere ubuvuzi mu gihugu cy'u Rwanda.

Icyumba kiberamo inama harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye nka mudasobwa ndetse n'ibindi bigaragaza amashusho, harimo abakozi batanu umwe muri bo arimo arabahugura ku buryo bwo kunoza akazi ndetse no guha serivise nziza ababagana.

Umuganga ari kumwe n'umubyeyi ari kumutera urukingo mu kuboko, aho umubyeyi afite impungenge nyinshi ndetse n'ubwoba bw'urukingo barimo bamutera, gusa ni ingenzi cyane kuko rumufasha kwirinda ko yakwandura indwara zitandukanye zamwangiriza ubuzima bwe bw'ejo hazaza.

Ikirango kigaragaza ubukangurambaga bwatangijwe bibiri na cumi na karindwi bwo gushishikariza abakobwa ko bafite amahirwe angana n'abandi, mu gihe batewe inda batifuza, bemerewe kuzikuramo.

Inyandiko igaragaza uburyo gukuramo inda byashoboka mu gihe kingana n'ibyumweru makumyabiri, uhereye ku byumweru cumi na bibiri, cumi na bitatu ndetse n'ibyumweru makumyabiri.

Umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku mpunzi, watangije gahunda yo kwita ku buzima bw'abana, by'umwihariko abo muri Afurika y'uburengerazuba ndetse no muri Afurika yo hagati.

Uru Rwanda rwashyize imbere ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, aho rushyiramo imbaraga mu kuburwanya ndetse no gutanga ubufasha n'ubuvuzi ku bantu bahuye n'icyo kibazo kugira ngo izo ndwara zirandurwe burundu ndetse zigabanuke mu gihugu cy'u Rwanda.

Umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku buzima, watangaje raporo wakuze nyuma y'icyorezo cya kovide cumi n'icyenda, mu gace ka Afurika ko, kovide yahitanye abantu benshi cyane, ndetse abandi ibasiga mu buzima butoroshye bw'ubukene, abandi ari imfubyi.

Abagore benshi bahuriye mu cyumba cy'inama cyagutse kinini, bambaye impuzankano z'umweru hejuru, aho barimo bahabwa amahugurwa ajyanye n'ubuzima ndetse n'uburyo babubungabunga hirindwa indwara zitandukanye z'umubiri.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye ameza, intebe, ibitambaro ndetse n'ibindi byifashishwa n'abaganga mu kwita ku barwayi.

Umuganga ari mu cyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, aho icyo cyumba cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse no gukora ibizamini by'indwara zigiye zitandukanye.

Inyubako nini, y'igorofa, isa umuhondo. Imbere yayo ikikijwe n'ubusitani, ndetse hari abantu bambaye impuzankano z'ubururu hejuru, aho iyo nyubako ikikijwe n'urugo runini cyane ,ndetse inyuma y'urwo rugo hari imodoka irimo ihanyura.

Ivuriro ririmo icyumba kinini cyane cyagutse, kirimo ibitanda abarwayi barembye baryamaho ndetse harimo n'inzitiramibu zimanitsemo kuri buri gitanda, zifashishwa n'abarwayi mu gihe cya nimugoroba mu kwirinda ko barumwa n'imibu.

Abakozi b'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima, basuye inzu ababyeyi babyariramo kugira ngo barusheho kureba imibereho yabo ndetse n'uko babyara mu gihe bari muri iyo nyubako.

Ibitaro byitiriwe Umwami Faisal byutse mu Mujyi wa Kigali, ikorera mu nyubako y'igorofa, hanze yabyo hateye ibiti bitandukanye ndetse hari imihanda abarwayi ndetse n'andi bantu bahanyura banyuramo, hari n'amadarapo nk'iry'Igihugu ndetse n'andi atandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga kirwariramo abarwayi, kirimo abarwayi babiri baryamye hamwe na muganga wabo uri kubasuzuma ababaza uko bamerewe.

Inyubako nziza iri ahantu hisanzuye, imbere yayo hahagaze abagabo bane, ndetse hari n'imodoka muri iyo mbugari iri aho imbere y'inyubako. Aho bigaragarira ko abantu hamwe n'iyo nyubako babona aho bisanzuriramo mu rwego rwo guparika imodoka ndetse n'aho bahagarara.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, ndetse harimo igitanda, n'utubati turimo ibikoresho abaganga bifashisha bavura abarwayi, by'umwihariko abaje kwibagisha indwara zitandukanye z'umubiri.

Inyubako ebyiri, umuhanda uzica hagati, zubatswe i Masaka, Leta y'u Rwanda mu rwego rwo kuzamura ireme ry'ubuvuzi, ndetse no kwita ku ndwara zitandukanye zifata Abanyarwanda n'Abanyamahanga.

Mu cyumba cy'ivuriro ryo kwa muganga kirwawaniriramo abantu barembye, haryamye abarwayi babiri ku bitanda, ndetse ku bitanda byabo hejuru hariho inzitiramibu ibafasha mu kurwanya imibu, ndetse no kwirinda ko yabaruma mu gihe cya nimugoroba.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi ndetse harimo n'uturindantoki, twifashishwa n'abaganga iyo bagiye kuvura abarwayi, mu rwego rwo kunoza isuku ndetse no kwirinda ko hari uwakwanduza undi, mu gihe yakorewe igikorwa cyo kuvura.

Inyubako ebyiri nziza zirateganye, zifite ubusitani imbere yazo ndetse n'akayira k'abanyamaguru gashashemo neza amatafari, bikaborohera kunyuramo, igihe bagiye kwaka serivisi.

Ababyeyi biganjemo abageze mu zabukuru bahuriye mu cyumba cy'inama aho barimo bahabwa amahugurwa y'uburyo bwo kwirinda indwara ziganjemo izitandura ndetse no gukomeza kugira isuku aho baba ndetse n'ibikoresho bakoresha mu rugo.

Inyubako ikorerwamo n'ivuriro, imbere yaryo hari ikibuga kinini giparikwamo imodoka, bityo byorohera abagana iryo vuriro kubona aho basiga ibinyabiziga byabo nk'imodoka, ndetse n'ibindi, hanyuma bakabona uko bageza abarwayi aho bagiye kubavuriza biboroheye.

Ku marembo y'ibitaro bya Kabgayi, hari icyapa kinini cyane kiranga ndetse kikayobora abarwayi ndetse n'abandi bantu bose bagana ibyo bitaro.

Mu ivuriro harimo icyumba kirimo imashini nyinshi ziri ku murongo ndetse ziteganye imwe kuri imwe, zifashishwa n'abaganga mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, by'umwihariko ku barwayi barembye bagana iryo vuriro.

Inyubako nziza yitwa Ircand Africa yubatse mu buryo bugezweho, iri i Kigali mu Rwanda aho yubakiwe kugira ngo ijye ikorerwamo ubuvuzi bugezweho mpuzamahanga, mu gihe Abanyarwanda ndetse n'abandi bantu baturutse hirya no hino ku Isi bazajya bahurira bakahivuriza.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho by'ubuvuzi bitandukanye, bigezweho, byifashishwa n'abaganga mu kuvura abarwayi, indwara zitandukanye.

Umujyanama w'ubuzima by'umwihariko uzima bwo mu mutwe, arikugira inama umubyeyi, uburyo bwo kwirinda ndetse no kwitwararika kugira ngo agarure icyizere cy'ubuzima ndetse, akire ibikomere yatewe n'ubuzima bushaririye yanyuzemo.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byinshi bitandukanye, byifashishwa n'abaganga mu guha serivisi nziza zinoze abarwayi babagana, mu gihe gitoya kuko ikoranabuhanga risigaye ryihutisha serivisi z'ubuzima.

Mu cyumba cy'ibitaro kirwariramo abarwayi ibitanda biri byonyine nta murwayi ubiriho, bigaragara ko nta barwayi barimo bitabira cyane muri ibyo bitaro, muri iyi minsi.

Ababyeyi batandukanye bari ku kigo nderabuzima, aho bicaye bategereje guhabwa serivisi z'ubuzima baje kwaka zirimo kubavura indwara zitandukanye, guhabwa inama mu by'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe ndetse n'izindi serivise zitandukanye.

Inyubako y'ibitaro umuryango urakinguye, aho umuryango w'icyumba ukinguye, urimo ibikoresho by'ubuvuzi bitandukanye, abaganga bifashisha bavura abarwayi babagana muri ibyo bitaro.

Mu nyubako y'ivuriro, mu cyumba abarwayi bategerererezamo abaganga, harimo ibishushanyo ndetse n'imitako itandukanye, nk'igishushanyo cy'ijisho ndetse n'indi mitako ifasha abarwayi mu kuruhuka igihe bategereje guhabwa serivisi n'abaganga.

Inyubako z'ubuvuzi nyinshi, zo imbere yazo hari ubusitani ndetse n'imihanda inyuramo, bufite n'icyapa kirangira abagana iryo vuriro, aho bakira serivisi zitandukanye zihatangirwa.

Inyubako igezweho ikoreramo ibitaro, hari aho bakirira abantu, intebe abantu baje babigana bicaramo, ndetse hari isuku ihagije ku buryo nta murwayi wahagirira ikibazo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashisha mu kuvura abarwayi ku buryo butandukanye, harimo umuganga umwe, aho arimo agerageza kubisuzuma arebe nimba bimeze neza ku buryo byakwakira umurwayi.

Icyumba cyo kwa muganga kinini cyagutse, kirimo abarwayi barwariyemo baryamye ku bitanda, harimo abagore ndetse n'abandi bantu babana n'ubumuga, bifashisha akagare.

Ivuriro rinini ryagutse, ririmo isuku ihagije, intebe ndetse n'ahantu banyura hanini hagutse, batangamo serivisi zitandukanye zo kwita ku barwayi ndetse no kubungabunga ubuzima bwabo.

Inzu y'ababyeyi n'impinja ni inzu nini cyane iyigorofa igeretse, ifasha ababyeyi kwivuza bisanzuye ndetse n'abaganga bakabona uburyo babavura banabakurikirana.

Icyumba cy'uruganiriro kigezweho, kirimo intebe nyinshi zitandukanye, iz'umukara ndetse n'andi mabara, zirimo ameza ndetse n'imitako itandukanye ku nkuta, aho abantu bakigana bicaramo, bakaganira ku mishinga itandukanye.

Ububiko bw'imiti, burimo imiti itandukanye, yiganjemo n'inkingo ihabwa abarwayi, iyo miti ibitswe ku buryo butandukanye, aho buri bwoko bugiye bubitse ahabwo hihariye, ku buryo byorohera umuntu uje kuyireba kuyibona aho ngaho.

Ibitaro byitwa Legacy, bifite aho batangira amakuru ndetse ni ibitaro byiza, byubatse mu buryo bugezweho, byagutse, aho byorohera buri murwayi wese uhagana kubona serivisi z'ubuvuzi nta nkomyi.

Icyumba cyo kwa muganga. Kirimo ibikoresho bitandukanye, birimo intebe, ibitanda, ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga mu kwita ndetse no guha ubuvuzi abarwayi babagana, ku buryo bugezweho kandi butanga umusaruro ku ndwara zabo.

Abantu batandukanye harimo abagabo n'abagore, abafite ubumuga, bari mu cyumba cy'inyubako y'ivuriro, aho bari ku murongo umwe bagiye gufata inkingo ku ndwara ya Covid cumi n'icyenda.

Iguriro ry'imiti, ririmo imiti myinshi, y'amoko yose, ihabwa abarwayi b'indwara zitandukanye, ikabafasha mu kubungabunga, ubuzima bwabo.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, iteganye n'izindi nyubako, imbere yayo hari umuhanda, ndetse ikora ibihe byose, aho yakira abarwayi bafite indwara zitandukanye ikabitaho, ikabavura bagakira bakongera bakaba bazima.

Ibitaro bikuru by'akarere bya Shyira, byimuriwe mu nyubako y'igorofa yisanzuye ifite ibyumba byinshi bitandukanye abarwayi bivurizamo, ndetse hakabamo n'ibitaro abarwayi barembye barwariramo.

Inyubako nini ndetse yubatswe ku buryo bugezweho. Hanze yayo haparitse imodoka. Imbere yayo hashinze idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, ndetse iyo nyubako ikikijwe imbere yayo n'ubusitani hamwe n'imihanda igiye inyuranyuranamo abantu bayigana banyuramo baje kwaka serivisi zitangirwamo.

Mu cyumba k'ivuriro harimo igitanda cy'umurwayi, aho bakarabira ndetse n'ibikoresho bindi bya muganga yifashisha arimo yita ku murwayi mu kumuvura indwara zitandukanye ndetse no kubungabunga ubuzima bw'umurwaza.

Ikigo nderabuzima cya Shagasha ni ikigo cyubatse neza ku buryo bugezweho, gifite imbuga yisanzuye ndetse gifite ibyumba bihagije abarwayi barwariramo bityo abaganga bakabona uko babakurikirana bisanzuye.

Abaganga batatu bicaranye n'abarwayi babiri mu cyumba cy'isuzumiro, aho barimo babasuzuma indwara zitandukanye zirimo umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

Umuganga ari mu cyumba gitangirwamo serivisi yo kubaza abarwayi, aho arimo ayitunganya ndetse ategura ibikoresho biza kwifashishwa mu kuvura umurwayi ugana muri icyo cyumba indwara zitandukanye.

Umuntu ahagaze mu mbuga iparitsemo imodoka nyinshi cyane zitandukanye harimo n'imbangukiragutabara, ziri hafi y'inyubako ikorerwamo ubuvuzi mu mujyi wa Kigali.

Inyubako yo kwa muganga igeretse, ikikijwe n'abantu benshi cyane bahagaze mu rubaraza rwayo, abandi hanze mu nzira, hari imodoka ndetse hari n'ubusitani bwiza abantu baruhukiramo cyangwa bagafatiramo akayaga.

Umubyeyi urwariye kwa muganga, aryamye mu cyumba cy'ibitaro mu gitanda, aho afite umuganga hafi ye urimo umwitaho, amuvura, abungabunga ubuzima bwe kugira ngo yongere akire amere neza, akomeze imirimo ye ya buri munsi.

Icyumba cyo kwa muganga kicayemo umuganga w'umugabo afite mudasobwa ebyiri imbere ye, ari gukora ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye zataka ibice by'umubiri kugira ngo hanozwe uburyo bwo gutanga ubuvuzi kuri izo ndwara.

Ivuriro ryitwa Target rikorera mu nyubako y'igorofa aho ryo rikorera ku muryango wo hasi ubanza kugira ngo byorohere abantu barigana, haba ababana n'ubumuga ndetse n'abandi bantu byagora kuzamuka hejuru bityo bikabafasha mu gutanga serivisi z'ubuvuzi ku bantu bose barigana.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti mbere yayo haparitse abantu batwara amapikipiki ndetse bategereje abarwayi bayigana ngo babatware.

Icyumba cy'inama kinini cyane cyagutse, kirimo intebe nyinshi cyane ndetse n'indangururamajwi, aho abantu bitabira inama muri iki cyumba bazifashisha bahanahana ibitekerezo bitandukanye.

Ikigo cya Africa gishinzwe kwita ku ndwara zandura ndetse n'izindi abantu bahura na zo, ndetse n'inyamaswa, gikorera mu nyubako igezweho nini cyane, imbere yayo hateye ibiti bifasha abantu bahagenda kubona umuyaga mwiza bahumeka.

Inyubako nini cyane igorofa isize amarangi y'umweru, imbere yayo hari ubusitani bwiza ndetse n'umuhanda wagutse bityo abantu bayigana ntibayigiraho n'ikibazo cy'aho banyura cyangwa ngo babemo benshi kuko ni nini bihagije.

Imashini ipima umuvuduko w'amaraso ndetse n'uko umutima utera, ikunze kwifashishwa cyane cyane kwa muganga, aho basuzuma abarwayi batandukanye, bareba uburyo amaraso yabo ahagaze ndetse n'imiterere y'umutima wabo.

Urubuga rw'ikoranabuhanga, ikigo k'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe abasiganwa n'amaguru, rugaragazwa n'ikimenyetso cy'umugabo uri kwirukanka ndetse n'umurongo uhese uri mu mabara atatu, ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane ku bantu bose, nta n'umuntu n'umwe uyihejweho aho n'abagore bashishikarizwa kuyikora, kugira ngo birinde indwara zaterwa n'uko umuntu atakozeza imyitozo ngororamubiri, ndetse barushaho kugira ubuzima buzira umuze, kuko imyitozo ngororamubiri iyo uyikoze neza bikugiraho ingaruka nziza ku buzima bwawe.

Agatambaro gatukura kifashishwa n'abaganga kwa muganga iyo barimo bita ku murwayi wavunitse ingingo, bakamuzirika aho yavunitse kugira ngo amagufa yongere aterane, asubire mu mwanya wayo ndetse akomere.

Ku isi hariho imikino itandukanye abantu bakina, by'umwihariko ikinwa hifashishijwe imipira, ndetse n'ibindi bikoresho, urugero; nk'umupira w'amaguru, imipira ikoreshwa ikinwa n'intoki iyo bita basket, ruguby, ndetse n'indi, bityo ikenera ibikoresho byayo nk'imipira.

Umuganga ushinzwe kuvura imitsi n'amagufa, ari gusuzuma umurwayi mu ivi areba indwara irimo, kugira ngo abashe kumuvura yongere amere neza agende neza nk'uko bisanzwe.

Abaganga bane bahuriye mu cyumba k'indembe, aho bagiye gusuzuma umurwayi uharwariye uko ameze barebere hamwe icyo bamufasha kugira ngo bongere bagarure ubuzima bwe kuko arembye cyane.

Ibikoresho bitandukanye byiganjemo ibyifashishwa mu kuvura indwara z'amagufa n'iz'imitsi ndetse n'ibindi, iyo bikoreshejwe neza n'abahanga bituma umuntu agira ubuzima bwiza buzira indwara z'imitsi n'amagufa.

Inkweto y'umukara yitwa bato, ni inkweto ikomera cyane, ikunda kwambarwa n'abantu bakora imirimo itandukanye ijyanye n'ubwubatsi ndetse n'indi, aho irinda abantu kuba bakomereka cyangwa bakangizwa n'ibintu bitandukanye.

Imyitozo icumi ngororamubiri, wakwifashisha mu kugira ngo wongere uburinganire bwawe nyuma yuko ugize uburwayi bw'ubwonko, iyo irimo yo kwicara ndetse no guhagarara mu gihe runaka.

Abantu bakora mu muryango utabara imbabare ku isi, bahuriye hamwe n'abandi bantu bari benshi kugira ngo batange ubufasha mu gihe habonetse umuntu wahuye n'ikibazo cy'ubuzima runaka, bamufashe bamuvure kugira ngo ubuzima bwe butahatakarira.

Mudasobwa igezweho nini cyane, iri mu cyumba cy'ivuriro aho yifashishwa n'abaganga, mu gusuzuma abarwayi, indwara zigiye zitandukanye, kugira ngo bahabwe ubufasha n'ubuvuzi, ubuzima bwabo bukomeze bugende neza.

Umukobwa nyuma yo gusoza imyitozo ngororamubiri, afite icupa ry'amazi ari kunywa amazi, aho amazi amufasha mu gusubiza umubiri ku murongo ndetse no kongera kugarura imbaraga kuko amazi ari ingenzi cyane, by'umwihariko ku bantu bakora imyitozo ngororamubiri ku munsi ku munsi.

Umuganga arigufasha umurwayi wagize ikibazo cyo kuvunika amaguru kongera guhagarara neza ndetse amutoza uko yagenda gakegake kugira ngo yongere agarure ubuzima bw'ingingo ze.

Imbuto zitandukanye ndetse n'imboga nk'imineke, pome, amacunga, indimu ndetse na kokombure biri hamwe, aho hari n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, bityo rero abantu bakora imyitozo ngororamubiri bifashisha n'izo mbuto kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Agatambaro kifashishwa n'abaganga iyo bari kuvura umurwayi wavunitse urugingo, bakamuzirika kugira ngo urugingo rugume hamwe kandi n'amagufa ndetse n'imitsi byavuye mu mwanya wabyo bisubiremo umurwayi abashe gukira.

Umugabo ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye imyenda imworohereza gukora imyitozo ndetse n'inkweto, ari kurambura amavi ndetse anayahina, mu rwego rwo gukomeza kugira umubiri ugororotse kandi uzira indwara.

Icyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi yo kubaga abarwayi, kirimo igitanda ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye nk'imashini, amatara, ndetse n'ibindi bifasha abaganga mu kubaga abarwayi, bakabavura indwara zabo.

Umugabo nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, afite icupa ry'amazi ari kunywa amazi meza, kugira ngo amufashe mu mibereho ye ya buri munsi kuko umubiri ukenera amazi kandi meza, rero abantu bakora siporo bashishikarizwa kunywa amazi menshi, kugira ngo umubiri urusheho gukora neza.

Umugore wicaye ku buriri ari kwinanura arambura amaboko ndetse no mu nda kugira ngo agororoke ndetse yumve aruhutse kuko gukora imyitozo ngororumubiri uruhura mu mutwe ndetse n'umubiri muri rusange ukumva umeze neza.

Umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri aho ari kurambura amaguru ye, igihimba ndetse n'amaboko bityo imyitozo iramufasha kugira umubiri ugororotse umeze neza ndetse bimurinda no kwandura indwara zitandukanye zitandura, harimo Umuvuduko w'amaraso ndetse n'Umubyibuho ukabije.

Umugabo urimo ukora imyitozo ngororamubiri, yicaye hasi mu kibuga, ari gukanda itako, bishoboka ko yababaye imitsi y'itako, rero akeneye umuganga umwitaho akamuvura imitsi kugira ngo yongere amere neza.

Mu bubiko bw'umuntu ukora imyitozo ngororamubiri harimo imbuto zitandukanye nk'inanasi, amacunga, ubunyobwa ndetse n'ibindi, si ibyo gusa afitemo n'ibinini ndetse n'imidari yagiye atwara mu gihe gitandukanye.

Ku kibuga gikinirwaho umupira w'amaguru haryamye umukinnyi wavunitse mu ivi, aho afite umuganga urimo umuvura umwitaho, amukandakanda mu ivi, asubiza ku murongo imitsi ndetse n'amagufwa yavuye mu mwanya wayo kugira ngo yongere asubire mu kibuga akine, ko umupira wo gukina na wo umuri iruhande.

Umugore aricaye hasi, ari gukora imyitozo ngororamubiri. Afashe mu birenge bityo bimufasha kugorora amaguru, imitsi y'ibirenge icyarimwe agorora n'imitsi y'umugongo.

Umugabo ukora imyitozo ngororamubiri, afite ikibazo mu ivi, aho irye amagufa ashobora kuba atameze neza, bityo akeneye abaganga bazobereye by'umwihariko bashinzwe kuvura mu magufa, bakamuvura akongera agasubira ku murongo

Imbuto zitandukanye nka pome, amacunga, ndetse n'izindi ziri hamwe n'imboga nka pinari ndetse n'udukoresho twifashishwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri baduterura mu maboko, turi hamwe n'umugozi wifashishwa mu gupima uburebure, bityo byifashishwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri byose.

Mu Rwanda hari utudege dutoya tuzwi ku izina rya drone dukwirakwiza amaraso mu bitaro bikomeye bitandukanye muri iki gihugu cy'u Rwanda kugira ngo afashe abarwayi bayakeneye, bayabonere igihe.

Agasanduku gafunguye kabikwamo ibikoresho bitandukanye, birimo ibyo abantu bakora imyitozo ngororamubiri bifashisha umunsi ku munsi, bakora imyitozo ngororamubiri yabo kugira ngo barusheho kumererwa neza ndetse no kumera neza.

Umukobwa wicaye, yambaye imyenda yabugenewe ikoranwa imyitozo ngororamubiri, ari kugorora amaguru ye afashe mu ivi, ukundi kuboko gufashe ku mano.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, afite icupa ry'amazi, ari kunywa amazi mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwe kuko amazi ni isoko y'ubuzima bwiza by'umwihariko ku bantu bakora imyitozo ngororamubiri baba bayakeneye cyane.

Abagabo babiri bari mu nyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri mu buryo bugezweho, aho bafite imipira mu ntoki barimo bagenda basimbuka barambura amaguru ndetse n'umubiri wabo muri rusange.

Umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri, apfukamye amavi ndetse arambuye amaboko imbere, bityo ari kugorora igice cy'umugongo ndetse n'amaboko bimufasha kugira ubuzima bwiza.

Umugabo ari kunywa amazi nyuma y'uko asoje imyitozo ngororamubiri bityo rero abantu benshi bakenera amazi, mu mubiri wabo by'umwihariko abakora imyitozo ngororamubiri cyane kuko umubiri wabo uba uyakoresha cyane ku kigero cyo hejuru.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, afite icupa ry'amazi ari kunywa aho yifashe mu mayunguyungu ndetse afite n'igikoresho kimufasha kumva umuziki mu gihe akora imyitozo ngororamubiri, ni ingenzi rero kubyifashisha kuko bituma agira imbaraga n'imbaduko mu gukora iyo myitozo ngororamubiri.

Umugabo ari gukora imyitozo ngororamubiri ari mu cyumba cyabugenewe cyayo, aho arimo azamura amaguru anayamanura, bityo bikamufasha gukomera kw'amaguru ye ndetse bikamurinda kuba yarwara imitsi y'amaguru mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

Gukora imyitozo ngororamubiri uri kumva umuziki ndetse, ufite n'amazi yo kunywa, ni ingenzi cyane kuko bigufasha kutananirwa vuba cyangwa gucika intege. Rero buri wese ashishikarizwa, kunywa amazi menshi mu gihe arimo akora imyitozo ngororamubiri, cyangwa ayirangije kuko umubiri uba uyakeneye cyane.

Umugabo uri wenyine ari gukora siporo, arambura ukuboko ndetse n'ukuguru bityo biramufasha kugira ubuzima buzira umuze kuko siporo ni ubuzima ndetse n'imibereho myiza.

Kunywa amazi menshi kandi asukuye ni ingenzi cyane mu buzima, cyane cyane ku bantu bakora imyitozo ngororamubiri kuko abafasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze ndetse akayungurura impyiko, bityo rero abantu twese dushishikajwe kunywa amazi no gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwacu burusheho gukomeza kugenda neza.

Ubuki ni kimwe mu binyobwa byifashishwa cyane n'abantu benshi by'umwihariko iyo bwatunganiwe ku buryo bwa gihanga, bagapfunyikwa mu macupa yabugenewe, buraramba ndetse abantu babukoresha bivura indwara zitandukanye.

Ibyatsi byinshi ni imiti gakondo; aho iyo bitunganijwe neza n'ababifitiye ubumenyi ndetse babihugukiwe, bakabipfunyika neza mu macupa cyangwa se mu ibindi bikoresho byabugenewe byifashishwa mu kuvura abantu indwara nyinshi ziba zarananiranye.

Ibimera bitandukanye birimo: imboga, imbuto, indabyo ndetse n'ibindi, biri hamwe, aho birimo bitunganywamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye mu mubiri w'umuntu.

Imiti y'amoko atandukanye ikozwe mu bimera birimo igikakarubamba n'ibindi byatsi bitandukanye, itunganijwe neza iri mu macupa yabugenewe, aho ihabwa abarwayi bayikeneye mu kwivura indwara zabo.

Abacuruzi b'icyayi bo ku rwego rwo hasi, bashyizeho uburyo bwo gucuruza icyayi ku biciro bitandukanye ndetse no mu ngano itandukanye, aho buri muntu wese yabasha kukigondera akacyinywa ndetse kikamugirira ingaruka nziza ku buzima bwe, kuko icyayi ni cyiza ku buzima bw'umuntu.

Imiti gakondo ituruka ku bimera, ibyatsi, ibiti ndetse n'imbuto iragaragaza impungenge yatera ku buvuzi, ndetse n'indwara yagenda ivura mu gihe yatunganijwe neza ndetse igakoreshwa n'abahanga.

Imiti gakondo yiganjemo ituruka ku bimera ndetse n'iyindi itunganirijwe hamwe, ishyirwa hamwe aho igenda ifasha abantu mu kubavura indwara zitandukanye z'umubiri, abantu bakagira ubuzima bwiza atari ngombwa ko bavurwa n'imiti yakorewe mu nganda yindi.

Imiti gakondo yiganjemo ikomoka ku bimera yapfunyitswe mu macupa meza yabugenewe nyuma yo gutunganwa. None irigucuruzwa aho abarwayi bayikeneye baza kuyifata ku giciro kitari hejuru.

Imiti gakondo yateguye ku buryo butandukanye ikomoka ku bimera ndetse n'indi yahurijwe hamwe, aho itunganywa neza kugira ngo izagezwe ku barwayi bayikeneye, bityo ibafashe kwivura indwara zitandukanye.

Ibimera byinshi bikunze kuvamo imiti ivura indwara zitandukanye, gusa abenshi ntabwo babisobanukirwa ariko iyo byahuye n'umuntu ubisobanukiwe, akabifata akabitunganya neza mu buryo bwuje isuku ndetse akabipfunyika mu bintu birambye, bivura abantu bafite indwara.

Umuti wifashishwa mu koza amenyo ukozwe mu gikakarubamba, umuti ukunzwe cyane, abantu benshi bahitamo kuwukoresha kuko baba bizeye ko urabafasha mu kurinda indwara zo mu kanwa ndetse n'izafata amenyo yabo.

Ibyatsi bitandukanye, bikunze kuvamo imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, mu gihe ababizi babibonye, barabyahira, bakabitunganya neza, bakabikoresha bavura abantu izo ndwara.

Ikimera gitoshye, gifite amababi manini, cyifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye zo ku mubiri, ndetse n'imbere mu mubiri, aho abantu babizobereyemo bakifashisha bakagitunganya neza, bityo kigafasha abandi bantu mu kugira ubuzima bwi...

Imiti gakondo yiganjemo ikomoka ku bimera, yatunganijwe ishyirwa ku isoko aho iri gucuruzwa hafi n'umuhanda ku bantu bayikeneye bifuza kujya kwivura indwara barwaye.

Umuravumba ni umwe mu miti gakondo yifashishwa n'abantu benshi mu kwivura indwara zitandukanye, harimo inkorora ndetse n'izindi ndwara zifata mu myanya y'ubuhumekero, mu nda ndetse n'ahandi.

Imiti ikorwa mu bimera gakondo, iratunganywa neza igashyirwa mu macupa yabugenewe, kugira ngo igezwe ku barwayi ifite ubuziranenge ndetse ibashe kubavura indwara barwaye zitandukanye.

Imiti gakondo yiganjemo ikomoka ku bimera nk'ibyatsi, yifashishwa mu kuvura abantu, iyo yatunganijwe ndetse ikabikwa neza kugira ngo itangirika cyangwa ikangiza ubuzima bw'abantu.

Icupa ry'umweru ripfunyitsemo umuti witwa Victolize, uwo muti wifashishwa kwa muganga, aho uhabwa abarwayi barwaye indwara runaka kugira ngo ubavure ndetse urwane k'ubuzima bwabo bongere bamere neza.

Ikimera kitwa inyabarasanyi ni kimwe mu miti gakondo mu Rwanda kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo no komora ibikomere ku bantu bakomeretse.

Imiti gakondo yiganjemo ikomoka ku bimera nk'ibyatsi, ibiti, ndetse n'ibindi, iyo yatunganijwe neza n'abahanga, igapfunyikwa mu bintu byiza byabugenewe, ndetse no mu ngano zitandukanye, abantu barayigura bakayifashisha mu kwivura indwara nyinshi.

Umuntu afite icupa ry'amavuta akozwe mu bimera gakondo, yifashishwa mu kwisiga kugira ngo avure indwara z'uruhu ndetse uwayisize amererwe neza.

Imiti gakondo yatunganijwe igashyirwa mu macupa ndetse igapfundikirwa, yifashishwa mu kuvura abantu, gusa ntiba yizewe ubuziranenge bwayo, mu gihe bitakozwe n'impuguke zabihuguriwe.

Amacupa abiri rimwe ni umuhondo irindi ni umweru. Ahuriye ko yose ashushanyijeho igikakarubamba. Bityo bigaragaza ko imiti irimo imbere yose ifite aho ihuriye ndetse ikomoka ku kimera cy'igikakarubamba kizwiho kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Amacupa abiri ateretse hamwe arimo imiti itandukanye ikozwe mu mbuto, rimwe rikozwe mu mbuto z'imyembe ndetse irindi na ryo rikozwe mu zindi mbuto aho yifashishwa mu kuvura abantu.

Imiti gakondo itandukanye yifashishwa n'abaganga gakondo mu kuvura abantu barwaye indwara zitandukanye, mu gihe babagannye bakabegera bakabasobanurira iby'uburwayi bwabo bafite.

Amavuta yatunganijwe neza akomoka ku muti gakondo w'igikakarubamba, yifashishwa n'abantu benshi mu kuyisiga kuko avura indwara z'uruhu ndetse n'izindi zitandukanye.

Imiti yatunganijwe neza ikomoka mu gikakarubamba, ifasha abantu barwaye indwara zitandukanye mu kubavura bakagira ubuzima buzira umuze.

Imiti gakondo ikomoka ku bimera nk'ibyatsi urugero nk'igikakarubamba, iyo yatunganijwe neza ishyirwa mu icupa ryabugenewe, ifasha abantu mu kuvura indwara zitandukanye.

Amacupa menshi ateretse hamwe, harimo imiti y'amoko atandukanye, imwe muri yo ikorwa mu bimera gakondo nk'igikakarubamba ndetse n'ibindi, yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, haba iz'inyuma ku ruhu ndetse n'iz'imbere mu mubiri.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi kibisi, ari imbere y'inyubako afite icyatsi cy'umuhati, aho arimo acyerekana asobanurira abantu ubwiza bwacyo, ndetse n'icyo gikoreshwa mu buvuzi gakondo.

imiti ndetse n'amavuta yakozwe ku buryo bwa gihanga, akozwe mu bimera gakondo, agurishwa ku masoko hirya no hino, aho abantu bayagura bakayifashisha mu kugira ubuzima bwiza ndetse n'uruhu rutoshye.

Amacupa ane ari hamwe y'amavuta y'ubwoko bwose akozwe mu bimera gakondo, yifashishwa n'abantu mu kwivura indwara z'uruhu ndetse n'izindi ndwara zitandukanye zo ku mibiri yabo.

Umuti watunganijwe neza upfunyikwa mu icupa ryiza ryabugenewe, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye gusa waturutse mu muti gakondo tungurusumu, aho byemezwa n'abahanga ko zifasha abantu kugira ubuzima bwiza.

Amavuta akozwe mu gikakarubamba, atunganijwe neza n'abahanga ashyirwa mu macupa y'umuhondo, aho ategereje kugurishwa ku bantu bayakeneye ndetse abazi akamaro kayo mu kuyakoresha umunsi ku munsi.

Imiti myinshi igezweho iba yatunganijwe neza ndetse igapfunyikwa mu macupa yabugenewe, ikomoka mu miti gakondo y'umwihariko y'ibimera nk'ibikakarubamba ndetse n'ibindi byatsi bivura indwara zitandukanye.

Imiti iri mu bipimo bitandukanye ndetse ifunzwe ku buryo bitandukanye, harimo iy'amafu, iy'amavuta ndetse n'isukika, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ndetse abantu bagakira kuko imyinshi muri yo iba ikoze ku buryo gakondo, yatunganijwe n'abahanga ku buryo bwiza.

Imiti gakondo ikomoka ku bimera urugero nk'igikakarubamba cyatunganijwe neza n'abahanga kigapfunyikwa mu bikoresho byabugenewe byuje isuku ndetse n'ubuziranenge hifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zikomeye.

Icupa rirerire ry'umweru, ririmo umuti ukorwa mu bimera, wifashishwa mu kuvura imvuvu ndetse n'izindi ndwara zifata mu mutwe, wifashishwa bawogesha mu mutwe hamwe n'amazi.

Jmuravumba washyizwe mu mazi mu kirahure kimwe, te nayo ishyirwa mu kindi kirahure mu mazi, aho bigiye kwifashishwa mu kuvura indwara zirimo n'inkorora ndetse n'izindi.

Umuti gakondo utunganijwe neza mu nganda ndetse upfunyikwa neza mu icupa, wifashishwa mu kuvura abantu bafite ibibazo by'ubuzima bitandukanye nk'umuriro, umutwe ndetse n'ibindi.

Imiti gakondo yiganjemo ikomoka ku bimera, iratunganywa n'abahanga mu buryo gakondo cyangwa mu buryo bwa kizungu, byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, haba iz'uruhu ndetse n'izo imbere mu mubiri.

Imiti gakondo yiganjemo iyi bimera nk'ibyatsi ndetse n'indi ikoreshwa n'abantu bo mu bihugu bitandukanye, mu kwivura ndetse no kurwanya indwara zitandukanye.

Gutera ibiti by'umwihariko ibivamo imiti gakondo, ni ingenzi kuko yifashishwa mu buvuzi butandukanye, aho ivura abantu indwara zitandukanye bakagira ubuzima bwiza, bakabaho imyaka myinshi.

Umuti wifashishwa cyane cyane n'igitsina gore basiga ku minwa kugira ngo yorohe kandi ise neza igihe yasataguritse, uwo muti n'ingenzi cyane kuko ufasha abantu, iminwa yabo ugatuma ibobera.

Ibimera bigiye bitandukanye nk'ibyatsi, ni imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, zigenda zifata abantu umunsi ku munsi, bityo bikwiye kwitabwaho.

Imiti gakondo ikomoka ku bimera nk'urumogi, iyo yatunganijwe neza yifashishwa mu kuvura abantu indwara z'umubiri ziba zarabazegereje.

Imiti ituruka ku bimera yatunganirijwe mu nganda, ipfunyikwa mu macupa abiri atandukanye mu ngano, iteretse hamwe, aho yifashishwa n'abaganga, ivura indwara zitandukanye, abarwayi bagenda bahura nazo.

Imiti gakondo yiganjemo ikomoka ku bimera, iyo yatunganijwe mu nganda, ikabungabungwa ndetse igapfunyikwa mu bikoresho byabugenewe, imara igihe kinini kandi ivura abantu indwara zitandukanye.

Imiti y'amoko menshi iteretse hamwe, ipfunyitswe mu macupa ku buryo bugezweho ndetse bufite isuku, iyo miti ikorwa imyinshi muri yo mu bimera gakondo, harimo nk'igikakarubamba ndetse n'ibindi byatsi bigiye bitandukanye.

Ibimera birimo nk'umuravumba, ni ibimera bidakunze kuboneka ahantu henshi, gusa ni ingirakamaro cyane ku buzima bw'abantu ndetse n'imibereho yabo, kuko byifashishwa mu kuvura abantu nk'indwara zitandukanye zikunze kwibasira cyane cyane abana, ndetse n'abageze mu zabukuru, nk'inkorora ndetse n'izindi.

Ibimera nk'ibiti bitandukanye ibyatsi ndetse n'ibindi bigomba gufatwa neza bikabungabungwa kuko bivamo imiti itandukanye ivura indwara nyinshi zo mu mubiri iyo abahanga babisobanukiwe babibyaje umusaruro.